Muri farumase habamo imiti myinshi cyane igiye itandukanye, ivura indwara nyinshi cyane, ndetse n'ibipfuko bipfuka abantu bakomeretse, bagize igisebe.

Farumasi ni nziza cyane zidufasha kubona imiti myinshi, kandi myiza tutavunitse kandi hafi zigatuma abantu bagenda bishimwe cyane banezerewe.

Mu bitaro habamo abaganga benshi cyane bavura indwara zigiye zitandukanye. Hari indwara bafata ibimashini bari gupima bari kureba icyo arwaye, maze umurwayi yabibona agataha anezerewe.

Mubitaro, habamo abaganga benshi cyane batandukanye, bavura indwara nyinshi zatuzojogoroje, nk'umutwe, munda, asima, sinezite, n'izindi nyinshi cyane abaganga barazivura.

Farumase ni nziza cyane kuko bacuruza imiti myinshi cyane igiye itandukanye myiza, idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi tukagira imibereho myiza, kuko imiti ivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Hari imiti ivura mu mutwe, hari n'indi ivura mu nda, hari n'indi myinshi ivura indwara zigiye zitandukanye z'abana, maze bakagira ubuzima bwiza.

Mu Rwanda tugira ibitaro byinshi cyane bigiye bitandukanye bivura indwara nyinshi cyane zananiranye, usanga hari n'indwara z'umutima mu nda maze bigatuma abantu bagenda ku bitaro kwivuza.

Mumuco w'iwacu tugira ubuvuzi butandukanye bwa gakondo. Ubwo buvuzi budufasha mu kuvura abantu bakomeretse, cyane cyane abafite ibisebe, n'abo bangirije n'uburozi.

Abavuzi gakondo bavura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, kuko muri zimwe usanga ari amarozi baroze babateza n'ibindi byinshi, maze bakabafasha kubaha imiti myinshi cyane, kuko unasanga bazi komora ku buryo bwo hejuru kurusha ku bitaro, kuko baba bafite imiti myiza cyane yujuje ubuziranenge itakozwe mu nganda.

Umuco wacu habagamo ubuvuzi bwinshi butandukanye cyane, harimo nko kuvura ivya mu kuvura mu byatsi, n'ibicuncu bya kapisi n'ibindi ibyo bivura indwara zitandukanye bigatuma abantu bahorana ibyishimo n'umunezero.